Abana benshi ubona yuko bakiri batoya bari kumwe n'abarezi babo, mu bigaragara aba ni abana bo mu mashuri y'incuke. Ni byiza yuko abana batangira ishuri bakiri batoya kugira ngo bakure neza mu gihagararo ndetse no mu bwenge.

Abana benshi ubona yuko bakiri batoya, umubyeyi umwe yicaye ku mukeka abatondesheje uruziga, bigaragara yuko arimo arabaganiriza anabigisha, ni byiza yuko aba bana bahabwa uburezi bakiri bato kugira ngo bakure neza mu bwenge no mu gihagararo.

Abana batatu ubona yuko bakiri batoya, bahagaze mu ishuri, inyuma yabo hari ikibaho cyanditseho imibare. Bafite udukarito twifashishwa nk'imfashanyigisho mu gihe bari kwiga. Ni byiza yuko abana nk'aba bahabwa uburezi bakiri bato, kugira ngo ubwenge bwabo bukanguke hakiri kare.

Abana batonze umurongo ubona yuko umurezi wabo arimo arabayobora uburyo bashobora gukora isuku mu biganza byabo bakoresheje amazi meza n'isabune. Ni byiza yuko abana batozwa umuco wo kugira isuku, kugira ngo barindwe indwara ziterwa n'umwanda bakiri bato.

Ahantu ubona yuko harimwo abanyeshuri bakiri batoya, mwarimu abahagaze imbere yifashishije imfashanyigisho zitandukanye arimo arabigisha, ni byiza yuko abana nk'aba ngaba batangira kwigishwa bakiri batoya kugira ngo bakure neza mu gihagararo ndetse no mu bwenge.

Abana bakiri batoya bicaye ahantu ubona yuko bambaye impuzankano y'ishuri, bafite udukoresho bifashisha nk'imfashanyigisho igihe bari kwiga, ni byiza ko aba bana bahabwa uburezi bakiri batoya kugira ngo bibafashe gukura neza mu gihagararo ndetse no mu bwenge.

Ababyeyi babiri bari kumwe n'abana ubona yuko ko bakiri batoya, abana batonze umurongo bari ku gikarabiro, ni byiza yuko abana nk'aba ngaba batozwa isuku bakiri batoya kandi bagahuriza hamwe kugira ngo bahabwe uburezi.

Abana ubona yuko bakiri batoya, bambaye impuzankano z'ishuri, ubona yuko batangiye kwiga bakiri bato. Ni byiza yuko abana nk'aba bahabwa uburezi bakiri bato, kugira ngo bategurwe hakiri kare, kugira ngo bazave mwo abaturage igihugu cyifuza.

Abana bakiri batoya bambaye impuzankano y'ishuri bicaye ahantu ku ishuri. Ni byiza ko abana nkaga bahabwa uburezi bakiri batoya kugira ngo barusheho gukura neza mu gihagararo ndetse no mu bwenge.

Icyumba kiza cyane ubona yuko kirimwo utubati dukoze mu biti, twifashishwa habikwa ibitabo, ni byiza yuko amasomero agira ububiko bwiza bw'ibitabo kugira ngo tubirinde kwangirika.

Icyumba kigaragaza ubwiherero gakondo, ni byiza ko ku mashuri ndetse n'ahandi hantu hahurira abantu benshi, hashyirwa ubwiherero bwujuje ibisabwa kugira ngo twirinde indwara zikomoka ku mwanda.

Icyumba kiririmo ameza ndetse n'utubati, muri utwo tubati harimwo ibitabo ndetse n'amakayi yifashishwa n'abarimu bari gutegura amasomo. Ni byiza ko abarimu bagira icyumba nk'iki bateguriramo amasomo yabo.

Abanyeshuri ubona yuko ari abo mu mashuri abanza, bambaye impuzankano, mu bigaragara harimwo babiri bavuye kuzana ibyo kurya, ni byiza ko abana bahabwa ifunguro rigizwe n'indyo yuzuye kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza.

Icyapa kigaragaza ikigo cy'amashuri cya Gatagara gifasha abana bafite ubumuga kubona uburezi, ni byiza yuko dushyigikira uburezi kuri bose kuko buri mwana wese akwiye kwigishwa kugira ngo ubwenge bwiwe bukanguke.

Icyumba kirimo intebe ndetse n'utubati, ikigaragara cyo aha ni mu ishuri, ni byiza yuko ahantu abanyeshuri bigira harushaho kubungabungwa, hashyirwa ibikoresho by'ibanze nk'utubati ndetse n'intebe kugira ngo barusheho kugira imyigire myiza.

Abana babiri ubona yuko ko bambaye impuzankano y'ishuri, mu bigaragara bari hagati mu kigo ubona yuko cyubatse mu buryo bwa gakondo kitajyanye n'igihe. Ni byiza ko ahantu nk'aha hatangirwa serivisi zijyanye n'uburezi, harushaho kuvugururwa kugira ngo harusheho kujyana n'ibihe.

Ahantu hari inyubako ubona yuko zubakishijwe amatafari ahiye, zisakaje amabati, mu bigaragara ni ku kigo cy'amashuri bitewe n'uko hari abanyeshuri bagiye kwiga, ni byiza yuko inyubako nk'izi ngizi zibungabungwa kandi ni iby'agaciro kuba ziri hafi y'aho abanyeshuri batuye.

Abana ubona yuko bakiri batoya. Bambaye impuzankano z'ishuri. Ubona yuko biga mu mashuri abanza. Bicaye bakikije ameza, barebana. Bigaragara yuko bari gukorera hamwe umukoro bahawe. Ni byiza yuko abana nk'aba ngaba bashishikarizwa gukorera hamwe bakiri bato kugira ngo uwo muco w'ubufatanye bazawukurane.

Umufuka utabuye wanditseho ibintu byinshi cyane bijyanye n'amasomo abanyeshuri biga, umanitse ahantu ku gikuta, ni byiza ko twifashisha ibikoresho nk'ibi ngibi biboneka aho dutuye, tukabyifashisha nk'imfashanyigisho tukarushaho guteza imbere uburezi.

Abana bambaye impuzankano bigaragara y'uko ari abanyeshuri, bari ahantu mu kigo barimo banakina imikino itandukanye, ni byiza ko igihe abana bari mu kiruhuko bagomba kugira imikino bakina kugira ngo barusheho kuzamura impano zabo ndetse barusheho kugira ubuzima bwiza.

Umunyeshuri ari gukora umukoro bamuhaye yandika mu ikayi ndetse afite terefone ubona yuko arimo arayifashisha ashakisha amakuru ku bisubizo by'ibibazo yahawe. Ni byiza ko dukoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga nka terefone ndetse na mudasobwa kugira ngo turusheho kubona amakuru ahagije ku byo twiga.

Ahantu harimo intebe abanyeshuri bifashisha bicaraho, hari akabatsi kandi bifashisha babikamo ibitabo hari igipapuro kimanitse ku rukuta bifashisha nk'imfashanyigisho, ni byiza yuko ibi bikoresho byose bigomba kwitabwaho mu ishuri kugira ngo turusheho kugira uburezi bufite ireme.

Abanyeshuri bambaye impuzankano bigaragara y'uko ari abanyeshuri bo mu mashuri abanza bari ku kigo. Ni byiza ko aba bana barushaho kwitabwaho bahabwa uburezi bufite ireme kugira ngo bazavemo abaturage beza.

Icyumba ubona ko kirimo ikibaho cyanditseho isomo ry'imibare, ni byiza yuko abana bifashisha ubu buryo kugira ngo barusheho gukanguka mu bwenge, kandi barusheho kugira uburezi bufite ireme.

Abana bambaye impuzankano bigaragara yuko ari abanyeshuri, bari imbere y'amashuri yabo bigaragara yuko aya mashuri yubatse mu buryo bwiza bugezweho, ni byiza ko serivisi zijyanye n'uburezi zirushaho gutangirwa ahantu ha...

Abana bambaye impuzankano y'ishuri ubona yuko bakiri batoya, bafite igikoresho cy'ikoranabuhanga kizwi nka mudasobwa, bari mu ishuri bari kwiga isomo rijyanye n'ikoranabuhanga, ni byiza ko ikoranabuhanga rikomeza gutezwa imbere mu bigo.

Ahantu ubona yuko hari ikibaho cyanditseho, ubu ni bumwe mu buryo bifashisha abarimu bari gutanga amasomo, aho bafati igwa bakandika ku kibaho abanyeshuri nabo bagakurikira, ni byiza yuko ibi bibaho tubibungabunga kandi tukabigirira isuku.

Ahantu heza ubona yuko ko hari ubusitani, hari uruzitiro rushushanyijeho umwana afite ikaramu mu ntoki, mu bigaragara aha ngaha hashobora kuba hatangirwa inyigisho zigenewe abana b'inshuke, ni byiza yuko abana bakiri batoya bagana aya mashuri kugira ngo bahabwe ubumenyi bakiri bato.

Abana bambaye impuzankano z'ishuri ubona yuko ari abana bakiri bato biga mu mashuri abanza, witegereje neza urabona yuko inyubako z'ikigo bigamo ntago zijyanye n'igihe, ni byiza yuko inyubako nk'izi ngizi zimaze igihe zivugururwa, kugira ngo uburezi burusheho kujyana n'igihe tugezemo.

Amarembo y'urwunge rw'amashuri rwa Cyarwa, ni byiza ko ibigo nk'ibi ngibi byegerejwe abaturage, aho abanyeshuri barushaho kubona serivisi zijyanye n'uburezi bitabasabye yuko bakora urugendo runini.

Abana ubona yuko bakiri batoya, bambaye impuzankano ubona yuko ari abanyeshuri, bari ahantu mu ishuri. Ni byiza yuko abana nk'aba ngaba batangira guhabwa uburezi bakiri batoya kugira ngo bazakurane indangagaciro ndetse n'ubumenyi bukwiriye.

Ahantu hari ubusitani bwiza. Urugo rushushanyijweho abana babiri, umukobwa n'umuhungu, ubona yuko bambaye impuzankano bari kwerekeza ku ishuri. Mu bigaragara aha ni ku kigo cy'amashuri. Ni ngombwa yuko tugana ibigo nk'ibi ngibi kugira ngo dushobore guhabwa uburezi bufite ireme.

Abana ubona yuko bakiri batoya, bambaye impuzankano y'ishuri. Umubyeyi umwe yaje gutora umwana we ku ishuri. Ni byiza ko abana nk'aba ngaba bajyanwa ku ishuri, gusa ababyeyi bagakomeza gukurikirana ubuzima bwabo, kugira ngo babarinde ku kuba bahura n'impanuka zitandukanye.

Icyapa kigaragaza urwunge rw'amashuri rwa Gasagara aho rutanga amasomo ku bana b'incuke, abiga mu mashuri abanza ndetse n'abiga mu kiciro cya mbere cya segonderi, ni byiza ko ibigo nk'ibi ngibi byegerezwa abaturage kugira ngo barusheho guhabwa uburezi.

Abana ubona yuko bakiri batoya, bambaye impuzankano z'ishuri, bahetse udukapu bigaragara yuko barimo barajya ku ishuri, ni byiza yuko abana nkaba ngaba bakiri bato bahabwa uburezi kugira ngo bakure neza mu gihagararo ndetse no mu bwenge.

Abana ubona ko bakiri batoya bambaye impuzankano y'ishuri, bahagaze imbere y'ishuri bigamo, ni byiza ko abana nk'aba ngaba bahabwa inyigisho zijyanye n'uburezi bakiri batoya kugira ngo bakanguke mu bwenge, barusheho kugira imikurire myiza.

Abana ubona yuko bakiri batoya b'abanyeshuri, bafite mudasobwa. Ni byiza yuko ibikoresho by'ikoranabuhanga by'umwihariko mudasobwa zegerejwe abanyeshuri, aho babasha gukora ubushakashatsi mu masomo biga, bityo ireme ry'uburezi rikazamuka.

Abana bakiri batoya ubona yuko bambaye impuzankano z'ishuri, bari ku kigo aho bafatira amasomo, ni byiza ko abana nk'aba ngaba bahabwa uburezi bakiri batoya kugira ngo barusheho kugira indangagaciro ndetse bakure neza mu gihagararo ndetse no mu bwenge.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye isakaje amabati ubona y'uko ifite ibyuma byifashishwa mugusohora imyotsi, iyi ni inyubako y'igikoni gifasha abanyeshuri kubona ibyo kurya igihe bari ku ishuri, ni byiza ko bibungabungwa.

Ahantu heza cyane ubona yuko hari inyubako zimeze neza, aha ni ku kigo cya Eden gitanga amasomo bihereye mu mashuri y'inshuke ndetse n'abanza, ni byiza yuko abana bakiri batoya bakangurirwa kujya ku ishuri kugira ngo barusheho guhabwa ubumenyi.

Ibitambaro ndetse n'imifuka ubona y'uko bishushanyijweho ibintu bijyanye n'amasomo abanyeshuri biga, ni byiza y'uko twifashisha ibikoresho bigaragara aho dutuye tukabyifashisha nk'imfashanyigisho kugira ngo turusheho guha ubumenyi buhagije abana.

Icyumba kirimo ameza ariho ibitabo ndetse n'intebe, mu bigaragara aha ngaha ni aho abarimu bicara iyo barimo bategura amasomo bagiye gutanga, ni byiza y'uko aha hantu hakomeza gushyirwa ibikoresho by'ingenzi bikenewe ndetse hakagirirwa isuku kugira ngo ireme ry'uburezi ritezwe imbere.

Ikibaho ubona yuko cyanditseho umukoro umurezi yahaye abana, ni byiza ko igihe abana barangije kwigishwa bashobora guhabwa umukoro kugira ngo bakomeze bagende biyungure ubumenyi, bityo umwarimu abashe kumenya ikigero cya nyacyo amasomo yatanze yumvikanyeho.

Abanyeshuri ubona yuko bambaye impuzankano z'ishuri. Bari mu muhanda barimo barerekeza ku ishuri. Ni byiza ko ibigo byegerezwa abanyeshuri kugira ngo bibarinde gukora ingendo ndende bajya kwiga.

Icyumba cyiza cyane ubona ko gifite isuku, kirimo ibitabo, mu bigaragara aha ni mu isomero, ni byiza yuko amasomero yegerejwe abanyeshuri aho babasha kubona ibitabo mu buryo bworoshye bityo bagakora ubushakashatsi ku byo biga.

Umwana wambaye impuzankano y'ishuri, ahetse igikapu yicaye mu modoka, mu bigaragara umubyeyi we amujyanye ku ishuri, ni byiza yuko nk'ababyeyi dufasha abana bacu kugera ku ishuri kugira ngo babashe gukurikirana inyigisho zabo.

Icyumba kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga bizwi nka mudasobwa, ibi ni ibikoresho bifasha abanyeshuri mu myigire yabo, cyane ko bibafasha kubona amakuru ndetse bikaba byanabafasha gukora ubushakashatsi ku bintu bitandukanye.

Icyapa kiri ku marembo y'ikigo cy'amashuri kitwa Notre Dame de la Providece Karubanda, giherereye mu karere ka Kuye, iki ni ikigo gitanga uburezi bufite ireme bityo abanyeshuri bakigana, bagahabwa ubwo burezi.

Abantu benshi barimwo abanyeshuri ndetse n'abayobozi babo, bahagaze imbere ry'ishuri ryanditseho indangagaciro ndetse n'intego z'icyo kigo. Ni byiza yuko ibigo nk'ibi ngibi bikomeza gufasha abanyeshuri mu kubona uburezi bufite ireme.

Abanyeshuri ubona y'uko bambaye impuzankano, bafite ibikoresho bitwaza iyo bagiye ku ishuri birimo ibikapu ndetse n'ubundi bubiko bifashisha babika ibikoresho byabo, ni byiza y'uko abanyeshuri boroherezwa ingendo mu gihe barimo bajya cyangwa bava ku ishuri.

Inyubako nziza cyane ubona yuko ari iz'ikigo cy'abakatorike k'imyuga cya Nubiligi, ni byiza ko ibigo nk'ibi ngibi by'imyuga na byo byegerezwa abana kugira ngo babashe kugira ubumenyi ngiro bwifashishwa mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ahantu heza cyane ubona yuko hari ubusitani, ku ruzitiro hariho icyapa kigaragaza yuko ari ku rwunge rw'amashuri rwa Officiel de Butare, mu Karere ka Huye, iki ni ikigo cy'indashyikirwa gitanga uburezi bufite ireme. Ni byiza ko dukomeza kugana ibigo nk'ibi.

Amarembo y'ikigo cy'amashuri cyitwa Groupe Officiel de Butare giherereye mu karere ka Huye, iki ni ikigo gitanga uburezi bw'indashyikirwa cyane ko kijya kiza no mu bigo bikomeye cyane muri iki gihugu cy'u Rwanda, ni byiza ko ibigo nk'ibi ngibi byegereye aho dutuye.

Ahantu hari inyubako nziza cyane yubatse mu buryo bw'amagorofa, imbere yayo hari imihanda myiza cyane ubona yuko ifite isuku kandi hagati harimo ubusitani bwiganjemo ibyatsi ndetse n'ibiti by'indabo, ni byiza yuko uburezi butangirwa ahantu nk'aha ngaha kugira ngo burusheho kugira ireme.

Abanyeshuri ubona yuko bicaye ahantu hamwe, bambaye impuzankano batuje, bari mu cyumba kimwe ubona yuko barimo barahabwa inama. Ni byiza ko abanyeshuri haba abahungu n'abakobwa bose bahurizwa hamwe bagahabwa inama ndetse bakaganirizwa ku bijyanye n'imyigire yabo.

Abanyeshuri ubona yuko bicaye ahantu hamwe, imbere yabo hari abayobozi batandukanye barimwo ab'ikigo, abarimu babigisha ndetse n'abo mu nzego z'umutekano barimo abapolisi na daso. Ni byiza yuko abayobozi bose bafatanyiriza hamwe mu gutuma uburezi burushaho gutera imbere.

Icyapa kigaragaza ikigo cy'amashuri cya ELENA GUERRA, iki kigo gitanga amasomo ku banyeshuri b'inshuke ndetse n'abiga mu mashuri abanza ndetse n'ayisumbuye, ni byiza ko ibi bigo byegerejwe abaturage, aho bifasha mu kuzamura ireme ry'uburezi.

Ahantu ubona yuko hari ubusitani burimo ubwatsi butoshye ndetse n'indabo, muri ubwo busitani harimwo icyapa kigaragaza yuko ari ku kigo cy'amashuri yisumbuye cya Butare, giherereye mu karere ka Huye, ni byiza ko ibi bigo tubigana kugira ngo turusheho guhabwa ubumenyi bukwiriye.

Icyumba cy'ishuri kirimwo ikibaho kimwe kiba kiri ku rukuta, ni byiza ko tubungabunga ibibaho nk'ibi ngibi tubigirira isuku, ndetse n'amashuri tukayagirira isuku, kugira ngo turusheho kwigira ahantu hameze neza.

Abana bambaye impuzankano y'ishuri, baricaye bashyize ibiryo ku meza bigaragara ko bari gufata ifunguro rya kumanywa ku ishuri, ni byiza yuko abana babafatira amafunguro ku ishuri kugira ngo bibafashe mu myigire yabo.

Abanyeshuri ubona yuko bambaye imyambaro bifashisha igihe bari mu myitozo ngororamubiri, barimo barakora siporo rusange, ni byiza yuko abanyeshuri bagenerwa igihe cyo gukora siporo rusange, kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza.

Ahantu hubatse neza cyane ubona yuko ari mu marembo y'ikigo k'ishuri, ni byiza yuko ahantu hatangirwa serivise zijyanye n'uburezi, hubakwa neza hakajyanishwa n'igihe ndetse hakarushaho kubungabungwa kugira ngo ireme ry'uburezi ritezwe imbere.

Abanyeshuri benshi ubona yuko bicaye mu cyumba kimwe, mu bigaragara bari gukurikirana ibiganiro, ni byiza yuko abanyeshuri bahurizwa ahantu nk'aha ngaha mu nyubako zagutse z'ishuri, bagakoreramo ibirori ndetse n'inama zitandukanye.

Abana ubona yuko bambaye imyambaro yagenewe gukora imyitozo ngororamubiri, barimo barakina umukino w'amaboko, ni byiza yuko imikino nayo ishyirwamo imbaraga, kugira ngo abanyeshuri barusheho kuzamura impano zabo kandi barusheho kugira ubuzima bwiza.

Abanyeshuri benshi ubona yuko bambaye impuzankano bari kumwe n'abarezi babo. Barimo barifotoza. Ni byiza yuko abanyeshuri n'abarezi babo bagirana ubucuti ndetse n'ubumwe kugira ngo bafatanye mu gutuma imyigishirize n'imyigire byose bigenda neza.

Ahantu ubona yuko hari indabo nziza hari amashuri yubatse neza, mu bigaragara aha ni ku kigo cy'amashuri kuko hari abanyeshuri, hari umumama ubona yuko ari umurezi, aha ngaha ni mu bigo bitangirwamo serivisi z'uburezi utasanga ahandi, ni byiza ko hakomeza kubungabungwa.

Abanyeshuri bicaye ahantu hamwe, umuyobozi ari imbere ari kubaha ikiganiro anababaza ibibazo, ni byiza ko abayobozi mu nzego zitandukanye begera abanyeshuri bakababaza imibereho yabo kugira ngo bamenye ibibazo ndetse n'ibyifuzo by'abanyeshuri bityo uburezi burusheho gutezwa imbere.

Abanyeshuri bicaye ahantu hamwe mu kibuga ubona yuko kiri mu ibyatsi kandi ubona yuko ari mu kigo, imbere yabo hari umuyobozi wabo ndetse n'umwana umwe muri bo ubona yuko bari kubaha ibiganiro, ni byiza yuko abayobozi b'ishuri ndetse n'abana bagirana ibiganiro kugira ngo babashe kwimakaza ireme ry'uburezi.

Abantu babiri ubona yuko bambaye impuzankano y'ishuri bigaragara yuko ari abanyeshuri. Ni byiza ko ibigo by'amashuri byegerejwe abaturage, aho abana batagikora urugendo runini bajya gushaka aho biga.

Inyubako ubona yuko imbere yayo hari amabendera atandukanye, mu bigaragara ni ku kigo cy'amashuri, ni byiza ko ibi bigo birushaho kwegerezwa abaturage kugira ngo abana bose bahabwe uburezi kandi bufite ireme.

Abanyeshuri bari mu ishuri. Mwarimu wabo, arimo aragenda abigisha anyura mu bihande bitandukanye ababwira. Ni byiza yuko abana bose bahabwa uburezi kugira ngo barusheho gukura mu gihagararo ndetse no mu bwenge.

Inyubako nziza yubakishijwe amatafari ahiye, isakaje amabati ndetse n'ibyuma, mu bigaragara yubatse mu buryo bwiza, iyi ni inyubako y'ishuri, ni byiza ko amashuri agira inyubako zidashyira ubuzima bw'abanyeshuri mu kaga.

Abana benshi ubona yuko bambaye impuzankano y'ishuri, bahetse ibikapu, bafite n'ibikoresho birimo ububiko bw'imyenda ndetse n'ibiryamirwa, mu bigaragara bari kwerekeza ku ishuri. Ni byiza yuko abo bana boroherezwa gukora ingendo kugira ngo bagere ku ishuri amahoro.

Ahantu heza cyane uhitegereje urabona yuko ari ku kigo cya Petit Seminaire Virgo Fidelis, giherereye mu Karere ka Huye. Ni ikigo gifasha gutanga inyigisho ku banyeshuri bihaye Imana, ni byiza yuko ibigo nk'ibi tubigana.

Ikirango kigaragaza ikigo cyigisha abantu bihayimana bakiri batoya bitegura kuzavamo abapadiri, giherereye mu karere ka Huye, ni byiza yuko ibigo nk'ibi na byo biba hafi y'abaturage kugira ngo birusheho gutanga uburezi bufite ireme.

Abanyeshuri ubona yuko bari ahantu mu cyumba kirimo ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga byiganjemo mudasobwa, bari guhabwa amasomo hifashishijwe ikoranabuhanga. Ni byiza ko dukoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga kugira ngo turusheho guhabwa uburezi bufite ireme.

Abanyeshuri bicaye hanze bakusanyirijwe hamwe, bari guhabwa ikiganiro n'abantu bo mu nzego z'umutekano abapolisi, ni byiza ko inzego nk'izi ngizi za Leta, zimanuka zikaganiriza abanyeshuri mu bijyanye n'umutekano ndetse n'ubuzima bw'Igihugu.

Abanyeshuri benshi bambaye impuzankano, bari ahantu mu cyumba bafatiramo amafunguro bari gufata amafunguro ya ku manywa, ni amafunguro meza ubona yuko bahabwa n'imbuto z'imineke, ni byiza ko abana bahabwa ifunguro ryuzuye ku bigo kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza.

Ahantu heza cyane ubona yuko hubatse ku buryo bugezweho, hateye amarangi abereye ijisho, aha ngaha witegereje neza urabona yuko ari ku kigo cy'amashuri yisumbuye cya Kigoma, ibi ni ibigo bitanga uburezi bufite ireme ku buryo umwana uvuyemo aba afite ubwenge kandi ari umuturage igihugu cyifuza.

Inyubako nziza cyane ubona ko zubatse mu buryo bw'amagorofa, ziteye amarange anogeye amaso ndetse zifite ibigega byo gufata amazi, mu bigaragara ibi ni ibigo by'amashuri. Ni byiza ko inyubako ndetse n'ibikorwa remezo byifashishwa mu burezi bikomeza gutezwa imbere kugira ngo ireme ry'uburezi rikomeze ritere imbere.

Aha ni mu ishuri abanyeshuri benshi baricaye ndetse n'abandi bantu basanzwe babasuye, umwana umwe w'umunyeshuri ari imbere bigaragara yuko hari ibyo ari kubabwira, ni byiza y'uko abana bashishikarizwa kumenyera kuvugira mu ruhame kugira ngo barusheho kugira uburere n'uburezi bukwiriye.

Ahantu ubona yuko hari inyubako nziza zubatse mu buryo bugezweho, zifite isuku, zifite imihanda myiza, ubusitani ubona ko bwitaweho burimwo ibyatsi n'indabo, kandi harimwo ibendera ry'igihugu cyacu, ibigaragara ahaha ni mu kigo cy'amashuri, ni byiza yuko inyubako ndetse n'ahantu hatangirwa serivisi z'uburezi harushaho kumererwa neza habungabungwa.

Ahantu ubona yuko hari ikibaho, hari intebe, hari n'udusanduku tubiri, utu dusanduku twifashishwa babika ibikoresho bitandukanye bikoreshwa mu ishuri, nk'ingwa, amakaye, ibitabo ndetse n'ibindi. Ni byiza yuko tubibungabunga.

Abanyeshuri bicaye hasi imbere yabo hari umuyobozi wabo ndetse n'umuyobozi wa polisi, ni byiza ko inzego nk'izi z'umutekano zimanuka na zo zikaganiriza abanyeshuri kugira ngo barusheho kugira umutekano usesuye.

Intebe ubona yuko zikoze mu mbaho, ni zimwe mu ntebe zimaze igihe kinini zikoreshwa mu mashuri, ni byiza ko izi ntebe zibungabungwa zirindwa kwangirika ndetse aho bibaye ngombwa zigasanwa hakiri kare, kugira ngo zidateza impanuka.

Abanyeshuri bambaye impuzankano z'imyitozo ngororamubiri, barimo barakina umupira w'amaboko, ni byiza yuko imikino nayo itezwa imbere mu burezi kugira ngo abana barusheho kwidagadura bakurikirana inyigisho zabo bameze neza.

Amarembo y'ikigo cy'ishuri cy'imyuga cya EAR Kageyo, ibi ni ibigo bifasha abanyeshuri kwiyungura ubumenyi mu bijyanye n'imyuga n'ubumenyigiro, ni byiza ko ibigo nk'ibi ngibi na byo abanyeshuri babigana kugira ngo barusheho guhabwa ubumenyi.

Abana benshi ubona ko bambaye impuzankano ndetse n'udupfukamunwa, bari mu ishuri ubona yuko bari kwifashisha uburyo bw'ikoranabuhanga bahabwa amasomo, ni byiza ko ikoranabuhanga naryo ryatejwe imbere mu burezi, bityo abana bakaba bari guhabwa uburezi bufite ireme.

Icyumba kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga byiganjemo mudasobwa, ubona yuko abanyeshuri bari guhabwa amasomo hifashishijwe uburyo bw'ikoranabuhanga, ni byiza ko ikoranabuhanga ryakomeje gutezwa imbere mu burezi kugira ngo uburezi burusheho kujyana n'igihe.

Icyumba cy'ishuri kirimo ikibaho ubona yuko kiriho umwanda, mbese muri rusange ishuri ryose ririmo umwanda, ni byiza yuko ahantu hatangirwa serivisi zijyanye n'uburezi, naho himakazwa umuco w'isuku kugira ngo ubuzima bw'abanyeshuri bubungabungwe.

Umunyeshuri wambaye impuzankano, ari ku igare nk'igikoresho kimufasha kugera ku ishuri hakiri kare. Ni byiza ko abanyeshuri baturuka kure barushaho guhabwa ibikoresho bibafasha mu ngendo, biborohereza kugera mu mashuri hakiri kare.

Abana ubona yuko, bambaye impuzankano z'ishuri, bicaye mu ishuri n'amakaye, kandi ubona yuko bameze neza. Inyuma yabo, hari ububiko babikamo ibitabo. Ni byiza yuko abana nk'aba ngaba bahabwa uburezi bakiri bato, kugira ngo ubwenge bwabo bukanguke hakiri kare.

Abana benshi bambaye impuzankano z'ishuri mu bigaragara bari ahantu heza ubona y'uko hafite isuku, hari ubusitani bwiza ndetse n'inyubako zigezweho, ni byiza ko ibigo by'amashuri inyubako zabyo zirushaho kujyanishwa n'igihe kugira ngo turusheho gutangira serivisi z'uburezi ahantu heza.

Abanyeshuri bambaye impuzankano z'ishuri, mu bigaragara bari ahantu heza ubona yuko hubatse neza hafite ubusitani, mu bigaragara hatangirwa serivisi zijyanye n'uburezi, ni byiza yuko ibigo nk'ingibi bigira inyubako nziza ndetse n'ubusitani, mu buryo butuma baba ahantu hameze neza.

Ikigo cyiza cyane cyubatse mu buryo bugezweho bw'amagorofa, gifite uruzitiro rugikikije rwubakishije amatafari, ni byiza yuko ahantu twigira, aho ahatangirwa uburezi harushaho kujyanishwa n'igihe.

Abanyeshuri bahurijwe hamwe bari guhabwa ikiganiro bicaye n'abayobozi babo, hari n'abayobozi mu by'umutekano, ni byiza ko inzego z'ubuyobozi bw'ikigo ndetse n'izindi za Leta zirushaho kwegera abanyeshuri kugira ngo barusheho gutanga uburezi bufite ireme.

Inyubako nziza ubona yuko yubatse mu buryo bw'amagorofa, iyi ni inyubako iri mu kigo cya Gatagara, gifasha abana bafite ubumuga, giherereye mu karere ka Huye, ni byiza yuko abana nabo bafite ubumuga bahabwa uburezi, kugira ngo barusheho kugira ejo hazaza heza.

Ahantu heza ubona hari ubusitani burimo indabo ndetse n'ibyatsi bimeze neza. Harimo icyapa giha ikaze abagana icyo kigo. Mu bigaragara hari ikigo k'ishuri Ni byiza yuko ibigo nk'ibi ngibi byegerezwa abaturage kugira ngo abana bahabwe uburezi bukwiriye.

Ahantu heza ubona yuko hari inyubako nziza, mu bigaragara ni ku kigo cy'ishuri, ikibazo ni uko hari ubusitani butameze neza. Ni byiza yuko dukangukira gutera ubusitani ahantu mu bigo by'amashuri kugira ngo turusheho kuba ahantu heza, kandi uburezi burusheho kugira ireme.

Abanyeshuri bicaye hanze y'ishuri mu bigaragara bari kuganirizwa n'abayobozi mu nzego zitandukanye, harimo n'abashinzwe umutekano abapolisi, ni byiza ko inzego nk'izi ngizi na zo ziganiriza abanyeshuri kugira ngo barusheho gukumira ibyaha ndetse babungabunge umutekano w'abanyeshuri.

Igikarabiro ubona yuko kigezweho, imbere yacyo hari indorerwamo mu gihe umuntu arangije gukaraba ashobora kwireba. Ni byiza yuko ibikoresho nk'ibi ngibi bishyirwa mu mashuri kugira ngo abana barusheho kugira isuku.

Inyubako nziza cyane ubona y'uko zifite amagorofa menshi cyane. Ni byiza ko inyubako nk'izi na zo zageze mu burezi. Ni byiza ko uburezi butangirwa ahantu hameze neza kugira ngo burusheho kugira ireme.

Icyumba cyiza cyane kirimo ibikoresho bigezweho nk'intebe ndetse n'ameza mu bigaragara aha ni mu ishuri, ni byiza ko inyubako z'ishuri zirushaho gushyirwamo ibikoresho bijyanye n'igihe kugira ngo ireme ry'uburezi rikomeze gutezwa imbere.

Icyumba cyiza cyane ubona yuko gifite isuku. Mu bigaragara aya ni amacumbi y'abanyeshuri. Ni byiza ko abanyeshuri bacumbikirwa ahantu heza kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza mu masomo bakora.

Icyumba cyiza ubona y'uko kirimo intebe, ameza ndetse n'ikibaho n'ibindi bikoresho bindi bishobora gufasha mu gutanga amasomo ndetse bigafasha abanyeshuri mu myigire yabo, ni byiza y'uko uburezi butangirwa ahantu hari ibyangombwa byose.

Ahantu heza ubona ko hari inyubako nziza, hari ubusitani ubona yuko burimo indabo ndetse n'ubwubatsi butoshye, ni byiza yuko ahantu hatangirwa serivisi z'uburezi harushaho kwitabwaho, hakagirirwa isuku ndetse hakubakwa mu buryo bujyanye n'igihe.

Ahantu ubona yuko ko hari inyubako nziza zifite ubusitani, harimo icyapa ubona yuko kirangira abantu aho ibice byose by'icyo kigo biherereye, ni byiza yuko ibi byapa bishyirwaho mu mashuri kugira ngo abana barusheho kumenya aho babariza serivisi zitandukanye.

Icyumba ubona ko kirimwo aho kuryama, kirimo utubati two kubikamo inkweto ndetse n'ibindi bikoresho mu bigaragara aha ngaha ni ho abanyeshuri baba, birakwiye y'uko abanyeshuri baba ahantu hafite isuku kandi hari ibikoresho bijyanye n'igihe kugira ngo ubuzima bwabo burusheho kuba bwiza.

Abantu benshi ubona yuko ari abanyeshuri bari kumwe na mwarimu wabo, bafite ibikoresho by'ikoranabuhanga by'umwihariko mudasobwa, umwarimu wabo ari kubereka ibintu bijyanye n'ibyo biga, akoresheje mudasobwa, ni byiza ko ibikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa mu burezi.

Icyumba cyiza cyane ubona yuko gifite isuku, gifite aho kurara ndetse n'ibitambaro birinda izuba kuba ryageramo imbere, kandi gifite ububiko umuntu ashobora kuba yabikamo ibikoresho byiwe, ni byiza ko abanyeshuri barara ahantu heza kugira ubuzima bwabo burusheho kubungabungwa.

Icyumba ubona yuko gifite aho gukarabira ndetse gifite naho kuryama, mu bigaragara aha ni ahantu abanyeshuri barara mu gihe batari mu masomo yabo, ni byiza yuko aha hantu harushaho kugirirwa isuku ndetse hagashyirwa ibikoresho by'ingenzi kugira ngo ubuzima bw'abanyeshuri bubungabungwe.

Abanyeshuri bambaye imyenda yabugenewe ndetse bafite n'ibikoresho by'ikoranabuhanga birimo na mudasobwa, bari mu cyumba bakoreramo ubushakashatsi, ni byiza yuko ibyumba nk'ibi ngibi bishyirwa mu mashuri menshi kugira ngo abanyeshuri babashe gushyira mu bikorwa ibyo biga.

Ahantu hari icyumba cyiza ubona yuko kirimwo ameza ndetse n'intebe z'ibyuma zigezweho. Aha ngaha hatangirwa serivisi z'uburezi. Ni byiza ko inyubako z'amashuri ndetse n'ibikoresho byifashishwa mu burezi birushaho gutezwa imbere kugira ngo ihame ry'uburezi rirusheho gutera imbere.

Abantu benshi ubona yuko ari abanyeshuri ba kaminuza y'u Rwanda hamwe n'abarimu. Ni byiza yuko iyi kaminuza yegerejwe abaturage, aho itanga uburezi kuri bose kandi igatanga uburezi bufite ireme.

Abanyeshuri bicaye ahantu bazengurutse ameza, mu bigaragara inyuma yabo hari ububiko bw'ibitabo bigaragara ko ari mu isomero, ni byiza yuko abana b'abanyeshuri bakangukira kugana amasomero kugira ngo biyungure ubumenyi ku byo biga.

Icyumba cyiza cyane ubona yuko kirimo ububiko bw'ibitabo bugezweho, aha ngaha ni mu isomero, aha abanyeshuri bahifashisha bajya gutira ibitabo byo gusoma bityo bakabasha gukora ubushakashatsi ku masomo biga.

Icyumba cyiza cyane ubona yuko gifite isuku, kirimo aho kuryama kiriho ameza ndetse kikagira n'ububiko bw'ibikoresho bitandukanye, ni byiza yuko abana bari ku ishuri barara ahantu heza kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza.

Abanyeshuri bigaragara yuko ari aba kaminuza, bafite imudasobwa barimo barakoresha mu myigire ya bo, ni byiza yuko aba abanyeshuri begerejwe ibikoresho by'ikoranabuhanga nka mudasobwa ndetse n'ibindi bibafasha mu myigire ya bo.

Abanyeshuri benshi bigaragara yuko ari abanyeshuri ba kaminuza, bahuriye ahantu mu cyumba kimwe ubona yuko abayobozi bari imbere yabo bari kubaganiriza, ni byiza yuko inzego zitandukanye zikangukira kwita ku burezi kugira ngo burusheho gutezwa imbere.

Icyumba cyiza ubona y'uko kirimo aho kuryama, gifite akabati umuntu ashobora kubikamo inkweto ndetse akaba yanaterekaho amazi ndetse n'ibindi bikoresho, ni byiza y'uko abana barara ahantu nk'aha ngaha, hari ibikenewe byose kugira ngo barusheho kubaho neza.

Icyumba kiza cyane ubona yuko gifite isuku, kirimo aho kurara ndetse n'ibitambaro bituma urumuri rw'izuba rutabasha kwangiza abarimo imbere, ni byiza yuko aho abanyeshuri barara hagirirwa isuku kandi hagashyirwa ibikoresho bijyanye n'igihe kugira ngo bibafashe mu mu myigire yabo.

Icyumba cyiza cyane ubona yuko gifite isuku kirimwo intebe ndetse n'ameza ateretseho za Mudasobwa zifashishwa n'abanyeshuri, ni icyumba ubona yuko cyujemo ibikoresho by'ikoranabuhanga byinshi bifasha abanyeshuri mu myigire yabo, ni byiza ko tubibungabunga.

Amafunguro atandukanye yiganjemo ibitera imbaraga, ibirinda indwara ndetse n'ibyubaka umubiri harimo n'imbuto, ubona yuko ari amafunguro agize indyo yuzuye. Ni byiza ko igihe cyose tugiye gufata amafunguro dufata amafunguro yuje indyo yuzuye kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza.

Inyubako nziza cyane zubatse mu buryo bugezweho ziteye amarangi abereye ijisho, ubona yuko zifite isuku, aha ngaha hatangirwa serivisi zijyanye n'uburezi, ni ku bigo by'amashuri. Ni byiza ko inyubako z'uburezi na zo zikomeza kujyanishwa n'igihe.

Icyumba kiza cyane kirimo ibikoresho nk'intebe, ameza, utubati ubona yuko bimeze neza, ni byiza yuko ahantu hatangirwa serivise z'uburezi harushaho gushyirwaho ibikoresho bijyanye n'iterambere kugira ngo uburezi bukomeze butezwe imbere.

Icyumba ubona yuko kiririmo akabati kirimo ameza ndetse kirimo n'ibitanda byo kurararaho, ni byiza ko abanyeshuri barara ahantu hafite isuku kandi hisanzuye kugira ngo ubuzima bwabo bukomeze burusheho kuba bwiza.

Icyumba cyiza cyane ubona y'uko cyubatse mu buryo bugezweho gifite ububiko babikamo ibitabo ubona ko bumeze neza, ni byiza ko amasomero nk'aya ngaya afite aho kubika ibitabo hagezweho yegerejwe abanyeshuri kugira ngo barusheho gukora ubushakashatsi ku byo biga.

Umwe mu bayobozi b'ikigo cya kaminuza kigisha imyuga cya IPRC Kitabi. Iki ni kimwe mu bigo bitanga uburezi mu bijyanye n'imyuga ndetse n'ubumenyingiro, abantu bose bakeneye kugira ngo biteze imbere. Ni byiza yuko izi kaminuza twazigana.

Icyapa ubona kiriho abantu batatu si ibyo gusa kandi kiriho inyubako iriho n'ikirango cya Kaminuza nkuru y'u Rwanda, ni byiza yuko amashuri makuru na za kaminuza byegerejwe abaturage, aho abana bahabwa ubumenyi bakarushaho kuba abaturage babereye igihugu.

Ahantu ubona yuko hari inyubako nziza cyane zaka amatara ubona yuko zibereye ijisho. Aha ngaha ni mu bigo by'amashuri hatangirwa serivisi zijyanye n'uburezi. Ni byiza yuko aha hantu hakomeza gutezwa imbere kugira ngo ireme ry'uburezi rikomeze ryimakazwe.

Umuntu bigaragara y'uko ari umuyobozi ari mu cyumba kifashishwa n'abanyeshuri mu gihe bari gukora ubushakashatsi, iki cyumba kirimo ibikoresho byinshi by'ikoranabuhanga bifasha abo banyeshuri. Ni byiza y'uko ibi bikoresho byegerejwe abanyeshuri kugira ngo barusheho kwiyungura ubumenyi.

Inyubako nziza zubatse mu buryo bugezweho bw'amagorofa, zifite ubusitani bumeze neza burimo ibyatsi byiza ndetse n'ibiti hamwe n'indabo, ni byiza yuko ahantu hatangirwa serivisi z'uburezi harushaho kumera neza kugira ngo na serivisi zihatangirwa zirusheho kuba ingirakamaro.

Ahantu heza ubona yuko hari inyubako nziza ifite ubusitani butoshye ndetse yubatse mu buryo bw'amagorofa, ifite imihanda ubona yuko ari myiza cyane, ni byiza yuko ahantu nk'aha ngaha hatangirwa serivisi zijyanye n'uburezi harushaho kujyanishwa n'igihe kugira ngo ireme ry'uburezi rizamuke.

Icyumba kirimo ibikoresho bitandukanye. Nk'ibiryamirwa, aho kubika ibikoresho bitandukanye. Mu bigaragara aha ngaha niho abanyeshuri baryama iyo basoje kwiga. Ni byiza yuko aha hantu harushaho kugirirwa isuku ndetse hakitabwaho kugira ngo ubuzima bw'abanyeshuri burusheho kubungabungwa.

Umugabo yicaye ahantu ubona yuko hameze neza harimwo ibishushanyo byinshi cyane bigaragaza yuko ari ahantu inyubako ya Kaminuza y'u Rwanda iri, ni byiza ko amashuri makuru na za kaminuza byegerejwe abaturage aho birushaho gutanga uburezi bufite ireme ku baturage.

Icyumba cyiza ubona yuko kirimo ububiko bugezweho bw'ibitabo, aha ngaha ni mu isomero, ni byiza yuko abana begerejwe amasomero, aho babasha gukora ubushakashatsi binyuze mu gusoma ibitabo.

Ahantu ubona yuko hubatse neza harimo imihanda myiza cyane ubona yuko hafite isuku, aha ngaha ni mu bigo by'amashuri, ni byiza ko uburezi butangirwa ahantu hafite isuku kandi hari inyubako zijyanye n'igihe.

Icyumba cyiza cyane ubona yuko kirimo ububiko bw'ibitabo, mu bigaragara ni isomero, ibitabo bibitse neza. Ni byiza ko amasomero nk'aya ngaya yegerejwe abanyeshuri kandi akaba arimo ibitabo bihagije, aho abanyeshuri bakora ubushakashatsi.

Inyubako nziza ubona yuko yubatse mu buryo bugezweho. Inyuma hayo hari ubusitani ubona yuko bwitaweho. Ni byiza ko ahantu hatangirwa serivisi zijyanye n'uburezi na ho harushaho kwitabwaho, hakagirirwa isuku ndetse hagashyirwa n'ibikorwa remezo bikwiriye.

Inyubako nziza cyane yubatse mu buryo bw'amagorofa, ni inyubako ya Kaminuza nkuru y'u Rwanda, iri ni ishuri rikuru muri iki gihugu ritanga uburezi bufite ireme, ni byiza yuko abanyeshuri basoje amashuri yisumbuye bagana aya mashuri kugira ngo bakomeze gukataza mu bumenyi.

Ahantu heza cyane ubona yuko hari inyubako nziza yubatse mu buryo bugezweho, ifite ubusitani, yegereye umuriro biragaragara yuko ifite uruzitiro rugezweho, ni byiza ko ahantu nk'aha ngaha ku bigo by'amashuri harushaho kujyanishwa n'igihe kugira ngo turusheho kugira uburezi bufite ireme.

Icyumba cyiza cyane ubona yuko ari aho abarimu bicara barimo bategura amasomo yabo, ni byiza yuko abarimu bagira ahantu nk'aha ngaha hatuje kandi hafite isuku, babasha gutegurira amasomo bagiye gutanga kugira ngo barusheho gushyigikira ireme ry'uburezi.

Ahantu ubona yuko hari inyubako nziza, hari ubusitani burimo indabo ndetse n'ibyatsi byiza, ndetse aho hantu hakaba hari ibiti bitanga akayaga ndetse n'amatara atanga urumuri, aha ngaha niho hatangirwa serivisi z'uburezi, ni ngombwa yuko tubungabunga ibi bikorwa remezo byose, kugira ngo uburezi butezwe imbere.

Abanyeshuri ubona yuko ari aba kaminuza. Bambaye imyenda yabugenewe. Bari mu cyumba bakoreramo ubushakashatsi. Ni byiza ko igihe abanyeshuri biga ibintu bituma bibasaba gukora ubushakashatsi, bagomba kugira ibyumba nk'ibi kandi birimo ibikoresho byuzuye kugira ngo babashe gukora ubushakashatsi ku byo biga.

Abantu benshi, bicaye ahantu ubona yuko hameze neza. Bicaye imbere yabo hari ameza meza cyane. Ni byiza yuko ibikorwa remezo nk'ibi ngibi bifasha kugira ngo uburezi bugende neza bikomeze kubungabungwa.

Inyubako nziza cyane ubona yuko yubatse mu buryo bugezweho, imbere yayo hari agakoresho bifashisha barimo bakaraba intoki n'amazi meza, ni byiza ko ahantu hakorerwa serivisi zijyanye n'uburezi harushaho kugirirwa isuku, kandi hakajyanishwa n'igihe.

Inyubako nziza cyane ubona yuko ari uruzitiro rwubakishijwe amatafari ahiye ndetse n'ibyuma. Ni byiza yuko inyubako z'amashuri zikomeza kuvugururwa ndetse zikubakwa neza mu buryo butuma abanyeshuri biga bafite umutekano.

Abanyeshuri bicaye mu ishuri, umwarimu wabo abahagaze imbere ari kubaha isomo yifashishije ibikoresho by'ikoranabuhanga nka mudasobwa ndetse na porojegiteri. Ni byiza ko ibikoresho by'ikoranabuhanga bikomeza gukoreshwa kugira ngo hatangwe uburezi bufite ireme.

Icyumba cyiza ubona yuko kirimwo intebe ndetse n'ameza bigezweho, kirimo kandi ibikoresho by'ikoranabuhanga by'umwihariko Mudasobwa zifasha abanyeshuri mu gukora ubushakashatsi, ndetse bikanabashyigikira mu myigire yabo, dukomeze tubibungabunge.

Icyumba cyiza ubona yuko kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga by'umwihariko mudasobwa ndetse n'ibibaho bigezweho. Ni byiza ko ibi bikoresho by'ikoranabuhanga bijyanye n'igihe na byo bikomeza kugezwa mu burezi, aho abanyeshuri bibafasha mu kwiyungura ubumenyi ndetse no kwiga neza.

Ahantu hari inyubako nziza zirimo amagorofa ndetse n'inyubako nziza zisanzwe, izo nyubako zifite ubusitani ubona yuko zifite n'ubwanikiro aho abanyeshuri bashobora kwanika imyenda yabo mu gihe bayimeshe, ni byiza yuko uburezi bukomeza gutangirwa ahantu hari ibyangombwa byose.